Aha ndabona icyapa kerekana ko hano hantu hari igororero rigororerwamo abana ryo mu Karere ka Nyagatare.

Ahangaha icyo mbona imbere yange, ndabona ari ishusho, cyangwa se ishusho y'inyubako, n'ibangukiragutabara bivuze ko ari kwa muganga.

Aha ndabona ishusho y'ibyapa, icyapa cy'abanyamaguru, icyapa cya parikingi, nkabona n'ibiti bitanga viyu nziza ku muhanda, aha hari umuhanda nyabagendwa.

Aha ni ahakorerwa igikorwa k'imyidagaduro kuri sitade, aha bari bari ku mukino wa nyuma w'umurenge Kagame Cup washishikarizaga abaturage kwimakaza imiyoborere myiza kandi umuturage ariwe uhora ku isonga, mbese muri make ari we witabwaho cyane.